Abantu batanu bari mu nama harimo abagore babiri n'abagabo batatu, buri wese afite mudasobwa, imbere ye hari n'amacupa arimo amazi.

Abantu bicaye mu buryo bwiza cyane, barimo kurebana ndetse bakanareba ubayoboye ibyo ari kubabwira, buri wese afite icupa ry'amazi, mbese bari ahantu hateguye neza cyane.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hari abicaye ndetse n'abahagaze, ku ruhande hari ibyuma bibiri, kimwe kigeretse ku kindi, bikoreshwa mu gucuranga.

Abantu bambaye imipira isa, bateraniye hamwe, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye; hari n'undi ufite agakombe k'umukara kamuri iruhande.

Abagore bari mu nama, hari batatu bicaye ku ntebe z'imbere bose bambaye indorerwamo z'amaso, babiri bambaye amakarita y'akazi, umwe yifashe neza iruhande rwe hari mudasobwa.

Abantu benshi bitabiriye inama, hari abambaye amakarita afite imishumi y'umuhondo, abandi y'icyatsi kibisi, harimo abagore ndetse n'abagabo, abasore ndetse n'abakobwa, bari kumva cyangwa bateze amatwi umuyobozi.

Icyumba cy'inama kirimo umuntu wicaye mu ntebe impande hakaba ari icyapa cyanditseho ngo arajibi, impande ye hari umumama wambaye ijipo y'umukara, inkweto z'umukara, n'ishati irimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye ishati y'umweru, indorerwamo z'amaso, yahinye akaboko, ari kugaragaza igikumwe, yegeranye n'uwambaye indorerwamo z'amaso wambaye umupira w'umuhondo.

Abantu batatu bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagore babiri n'umugabo umwe, abo bose imbere zabo hari mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu umunani bitabiriye inama, harimo umuyobozi ari nawe ufite ijambo, abandi baricaye bamuteze amatwi kugira ngo bumve icyo ababwira.

Abantu bitabiriye inama batanu, umupolisi umwe n'abandi bantu bane, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo Repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama.

Abantu b'ingeri zose bishimye cyane, harimo; abagabo n'abagore, abasore ndetse n'abakobwa, hari n'abantu bambaye amakarita y'akazi, hari n'ibyuma bibari inyuma.

Abantu batandukanye bicaye mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umutuku, abari imbere hateretse amacupa y'amazi, hari n'ufite icupa ririmo ji.

Abantu bicaye mu nteko, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari abayobozi, harimo umupolisi, imbere yateretse ameza ariho igitabo, indangururamajwi n'umuti wo gusiga mu ntoki.

Abantu bicaye mu nama, buri wese afite icupa ry'amazi, hari umuyobozi uhagaze, bose bari kureba ibintu byanditse ku rukuta rw'inzu, ndetse hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abayobozi bicaye buri wese afite indangururamajwi imbere ye, ndetse n'icupa ry'amazi kandi bicaye mu ntebe z'icyubahiro.

Abantu batatu bambaye indorerwamu z'amaso, harimo umugore umwe n'abagabo babiri, umugabo uri hagati yambaye ikarita y'akazi ifite umushumi w'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki, impande ye hateretse amacupa abiri y'amazi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama. Harimo abagabo n'abagore, harimo umugabo umwe wambaye indorerwamo z'amaso, undi afite terefone mu ntoki ari kuyirebamo, hari n'ikayi iri ahantu yicaye.

Abantu bane bari mu nama, batatu baricaye undi arahagaze afite ikaramu mu ntoki, yambaye n'indorerwamo z'amaso, abandi bafite amakaye imbere yabo ndetse n'icupa ry'amazi.

Inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye, harimo abagabo n'abagore, abicaye imbere bafite indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu batandatu bicaye buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye, batatu bafite mudasobwa imbere yabo, hari indabyo.

Abantu bicaye barebana abagore ndetse n'abagabo, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye, hari na mudasobwa ihari bari kureba umuyobozi.

Abantu bicaye mucyumba cy'inama, imbere yabo hari abayobozi, babiri bafite indangururamajwi, hari ikiganiro bari kubagezaho.

Icyumba cy'inama cyicayemo abagore n'abakobwa, giteguye neza cyane, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye.

Icyumba cy'inama giteguye neza, kirimo abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hahagaze umugore hari ibyo ari kubaganiriza, buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Abantu bicaye hamwe bifashe neza, imbere yabo hari ameza arambitseho terefone ndetse n'igitabo, basa nk'aho hari umuyobozi bakurikiye ibyo ari kubabwira.

Abantu bateraniye hamwe, bicaye mu ntebe nziza cyane, harimo abafite mudasobwa, abandi bafite telefone mu ntoki, abandi bafite udukayi two kwandikamo, harimo abagabo ndetse n'abagore.

Umubyeyi ubyibushye, uri guha mugenzi we ibaruwa, inyuma yabo, hari abantu benshi, ku ruhande hari ihema, idakoje ibitambaro bifite amabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda yicayemo abantu.

Abantu benshi bicaye hamwe, harimo urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, harimo abagore ndetse n'abagabo, bavuye mu gikorwa cy'umuganda, buri wese afite igikoresho.

Abagabo ndetse n'abagore, bicaye ahantu hamwe, bafite ikayi ndetse n'ikaramu mu ntoki, hari umuntu bari kureba.

Abaturage bicaye harimo, abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari abayobozi ndetse hari n'ameza ateguyeho ururabo.

Ababyeyi babiri, umwe yifashe neza yambaye n'ikarita y'akazi, undi afite indangururamajwi arimo kuvuga afite ikaramu mu ntoki, imbere ye hateretse agasahani gato kariho igikombe.

Abantu bicaye bari mu nama, bari kwandika, buri wese afite ikayi ndetse n'ikaramu, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi, hari n'akandi gakombe gafite ibara ry'umukara gateretse iruhande ry'uwambaye umupira w'ubururu.

Icyumba cy'inama giteguye neza, ameza ateguyeho ibitambaro bimeze neza, cyicayemo abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, hari uhagaze ari kubagezaho ikiganiro, hari amacupa y'amazi ahateretse ndetse hari na mudasobwa zihari.

Abantu benshi bicaye mu nama, bamwe bafite mudasobwa, barimo kwandika, hari amacupa y'amazi ateretse imbere, hari ikaramu, hari amakayi ndetse n'impapuro.

Abantu bicaye hamwe bafite ingingo bigaho, harimo abagore n'abagabo, harimo abagore babiri bambaye indorerwamo z'amaso n'umugabo umwe wambaye indorerwamo z'amaso, ku meza hateretse amacupa y'amazi.

Abantu bicaye mu biro by'inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, buri wese afite icupa ry'amazi n'indangururamajwi imbere ye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye barebana buri wese afite icupa ryamazi imbere ye, hagati hari ivaze irimo ururabo.

Abantu benshi bicaye mu nama imbere hicaye abazungu ndetse n'abirabura, harimo umugore umwe wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye n'isaha ku kaboko, imbere yabo, hateretse amacupa abiri y'amazi.

Abanyeshuri basoje amashuri yisumbuye, bari mu rugerero, bamwe bambaye imipira y'icyatsi kibisi, abandi umuhondo, abandi ubururu, hari umuntu ubahagaze hagati.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba kirimo ikoranabuhanga, buri wese yicaye imbere ya mudasobwa, mwarimu hari umunyeshuri ari guha urugero rw'ibyo ari bukore.

Icyapa gishushanyijeho abantu bicaye mu nama bakurikiye abantu bahagaze imbere bafite ingingo bari kwigaho abantu bahagaze imbere bambaye amakote bose.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bafite ibikoresho byiza cyane: bafite mudasobwa, bafite n'amakaye yo kwandikamo; babiri bari kurebana, abandi babiri bari kurebana, inyuma yabo hicaye abandi banyeshuri, umwe yicaye ukwe n'undi yicara ukwe.

Urupapuro runini cyane ruri mu ibara ry'ubururu, hejuru yarwo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, hasi hari ayanditse mu ibara ry'umweru.

Inzu nziza cyane, umuryango wayo urafunguye ifite urugi rusize irangi ry'umweru, imbere harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga biteretse ku meza, hejuru y'umuryango handitsemo ijambo rivuga riti''irembo.''

Icyumba gitangirwamo serivise kirimo abantu batatu hari babiri bicaye, umwe yambaye ikarita y'akazi ifite umushumi'cyatsi kibisi, imbere yabo hari mudasobwa hari umusore uhagaze wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi kibisi.

Urupapuro runini rusa ubururu, rwanditseho amagambo, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, amabwiriza agenga abatanga serivisi za mobayiro mani mu rwego rwo kurwanya korona virusi.

Inyubako iriho ibyapa bitandukanye byanditseho amagambo, hashushanyijeho umukobwa uri kureba muri telefoni muri ibyo byapa hari n'ibiriho ibirango bya Eyateri.

Abana bicaye mu ishuri bafite mudasobwa, buri wese anejejwe no kuba imbere ye hari mudasobwa.

Umunara muremure cyane ukikijwe na sengenge, impande yabo hari abantu bari kugenda umwe hari ibintu yikoreye.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu, umweru n'umuhondo. Ryanditsemo amagambo asobanura Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Uburezi.

Ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'amabanki, hicayemo umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ushushanyijeho inyenyeri, imbere ye hari akamashini ndetse n'igitabo.

Ikirango gifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru cyanditseho aya magambo ngo "umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ryari"? Umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe Ukuboza za buri mwaka.

Icyapa cyanditseho ijambo irembo n'andi magambo yanditsemo hari umuntu ufite telefone mu ntoki ari kuyitungaho akaboko.

Umunara muremure, wegeranye n'amapoto ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, impande yawo hari uruzitiro ndetse n'inzu.

Abantu bicaye hamwe, batuje, buri wese afite mudasobwa imbere ye, bambaye n'ama ekuteri kugira ngo babashe kumva ibintu biri kuvugwa muri mudasobwa.

Ikirango gifite amabara atandukanye: ubururu, umweru ndetse n'umuhondo; hari n'amagambo acyanditsemo.

Abantu bari gusoroma icyayi bahetse intonga, hakurya yabo hari ishyamba rizitanye rimeze neza.

Uruzitiro rurimo umunara muremure, ufite ibara ry'icyatsi kibisi, impande y'uruzitiro, hari akazu gafite urugi rusa ubururu, hakurya hari ibiti.

Kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, umubyeyi arishimye cyane n'uri kumuha serivise arishimye, hari akamashini ari gukoresha atanga serivise, impande yabo hari icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'akamashini gashushanyije kari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse na serivise batanga yanditse munsi y'ako kamashini.

Icyemezo gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, giha uruhushya umuntu ushaka gutangiza ubucuruzi cyangwa ushaka gukora ubucuruzi.

Abantu bane bari kugenda mu muhanda, harimo abasore batatu n'umukobwa umwe, abasore babiri bafite mudasobwa undi ari kureba muy'umukobwa, hari ufite igikapu.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, harimo abana, umuntu mukuru wambaye umupira utukura, ku meza hateretse mudasobwa, hari n'ibindi bikoresho bifite amabara atandukanye, ibara ry'umukara n'ibara ry'ubururu.

Ibiti bibiri biriho insinga z'umuriro wamashanyarazi hagati hari icyuma kiriho insinga z'umuriro wamashanyarazi, ku ruhande hari umunara.

Igiti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi kiri ahantu mu ishyamba, hakurya hari amazu menshi yubatse mu buryo butandukanye.

Ahantu hageze ibikorwa by'iterambere, hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, hari inyubako nziza cyane, inzu z'ubucuruzi, hari umuhanda mwiza ndetse n'ibinyabiziga.

Igiti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi cyegereye akazi ka MTN, hari umuntu uri kugenda mu muhanda w'igitaka, inyuma ye hari inzu isakaje amabati atukura, hakurya y'iyo nzu hari ishyamba n'umunara muremure.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, hari amabase, indobo, hari na moto ihahagaze, hirya hari amapoto abiri afatiyeho ibyuma n'insinga.

Abantu barimo kugenda mu muhanda impande y'umuhanda hari amatara, hari n'amapoto ndetse n'umunara utwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hari insina ndetse n'inzu.

Umunara muremure utwara insinga z'amashanyarazi, hasi yawo hari umuntu uhahagaze usa nk'aho afite ibyo ari gukora, impande yawo ukikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi.

Umunara muremure utwara insinga z'amashanyarazi, ku mpande yawo hari ibyatsi, hakurya hari imigano izitanye.

Igiti cy'umwembe, ibisheke, insina, n'igipangu cy'amabati, imbere yacyo hari igiti kiriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu ngo.

Umugenzi uri kugenda impande ye hari icyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru, inyuma ye ku ruhande hari inyubako ihari imbere ye hari imodoka zihahagaze, hari n'itara impande yaryo hanyura insinga z'umuriro.

Umugenzi utegereje imodoka, afite umufuka urimo ibintu ndetse n'indobo itukura imuri iruhande, hakurya y'umuhanda hari ibyapa ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umunara muremure, uriho insinga z'amashanyarazi, impande yawo hari indabo, hari icyapa cy'ubururu kirimo udufureshi tw'umweru, hari igiti ndetse n'inzu iri inyuma yawo.

Inzu zishaje zitajyanye n'amajyambere, hagati yazo hari ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, icana umuriro mu duce dutandukanye.

Inzu ebyiri nini cyane zisakajwe amabati afite ibara ry'umukara, haruguru hari igiti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibindi biti bihateye.

Umunara muremure, uriho insinga z'amashanyarazi, impande yawo hari igiti cy'isombe, hari igiti cya avoka, hari inzu ndetse n'uruzitiro.

Uruganda rufite uruzitiro ruzitijwe amabati, hari n'iminara iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, impande y'igipangu hari igiti kiriho urusinga rutwara umuriro w'mashanyarazi.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, impande yayo hari umuhanda, umuhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka ndetse harimo n'amatara, hakaba n'inyubako ziri hakurya y'umuhanda.

Imodoka ihagaze, ifunguye urugi, imbere yayo hari igiti gitoshye, hakurya hari inzu zimeze neza n'ubundi hakurya hari poto iriho insinga nyinshi.

Ibyuma byinshi birimo insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'umunara uriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce runaka.

Amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, imodoka mu muhanda, inyubako nziza cyane, abantu bari gusunika igare, umuntu wicaye mu mutaka n'undi umuhagaze ku ruhande.

Abantu benshi batandukanye bari impande y'inyubako itangirwamo serivisi. Hanze y'iyo nyubako hari ubusitani, hari ibyapa bihari, byanditseho serivisi zihatangwa. Hanze hari intebe.

Ibitaro byubatse neza, imbere yabyo hari ubusitani burimo indabo, hejuru handitseho ngo ibitaro bya Masaka. Na none imbere yabyo hari abantu bari kugenda, barimo abazungu ndetse n'abirabura, abazungu bambaye udupfukamunwa.

Imodoka iri kugenda igana ku marembo afite urugi ruriho ikimenyetso cy'umusaraba, hejuru y'uruzitiro hari icyapa n'imodoka zihagaze.

Inyubako nziza cyane, isize irangi rya kaki ndetse n'umweru, imbere yayo hari intebe ndetse na tuwarete.

Umuntu uri mu bitaro aryamye ku buriri. Impande ye hari umwenda usa ubururu, hari n'amatara ari kwaka.

Umuhanda wa kaburembo ku ruhande rwawo hari ibyapa bibiri, kimwe gifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umutuku, ikindi cyanditseho amagambo agaragaza ibitaro bya Kabgayi.

Inyubako imeze neza, imbere yayo hari abantu bicaye, ku mbuga hari amapave, hari akayira gakoze neza ndetse gasakaye.

Inzu ifunguye, ku ruhande hari kizimyamwoto, imbere hari udukarito duhari, irimo amakaro.

Umuntu wirabura, wambaye ikanzu y'umutuku, imbere akaba yambaye ishati y'umweru, ifite ibara ry'umukara hejuru.

Abantu bahagaze neza cyane kumurongo harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye amakanzu y,imikara afite ibara ry,umweru mu gatuza.

Abantu batatu bicaye harimo umwe wambaye indorerwamo z'amaso, imbere yabo hagiye hari impapuro cyangwa ikayi yo kwandikamo, hari n'icupa ry'amazi, inyuma yabo hari igipapuro gishushanyijeho umusaraba w'umutuku.

Umuyobozi wambaye ikanzu y'umukara, irimo umweru, impande ye hari umugororwa, uri kureba muri mudasobwa, bose bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo hari icupa ry'amazi, irindi cupa ririmo umuti wo gushyira mu ntoki.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Nyakubahwa Paul Kagame, ibendera rigizwe n'amabara ubururu, umuhondo, icyatsi kibisi, imbere ye hari indangururamajwi.

Abantu benshi bambaye amakanzu y'imikara ndetse n'imituku n'ingofero zayo, bari ku murongo; iruhande rwabo hari amatara ndetse n'ibiti.

Amakarito atandatu yanditseho ijambo ngo "gacaca"; ayo makarito agiye ariho utwapa turiho imyirondoro itandukanye.

Abantu bari mu rukiko, hari uwicaye, hari n'abandi batatu, batatu bambaye amakanzu, ni abayobozi, undi ni umugororwa wambaye imyenda ya roze, buri muyobozi afite ibitabo mu ntoki n'uwicaye hari ibitabo afite.

Igipangu cy'ibyuma, impande yacyo hari ibiti, hejuru y'icyapa cya nditseho ngo igorobero rya Muhanga, kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako nini cyane, ifite uruzitiro rw'amatafari, hejuru hari ibyuma, hari abagororwa bafite amajerekani bagiye kuvoma.

Abayobozi bari kurahira, bambaye amakanzu y'umukara, inyuma yabo hicaye abandi bantu, imbere ya buri wese hari ibendera ry'igihugu.

Abagororwa bicaye hamwe hari n'abahagaze, bose bambaye imyenda ifite ibara ry'iroze, hari n'umucungagereza uri kubacunga.

Abantu bicaye hamwe, harimo abitwikiriye imitaka kubera izuba, hari undi uhagaze imbere, n'abandi bicaye bagaragara nk'abayobozi, hakurya yabo hari ibiti bihakikije ndetse n'inzu.

Abantu batatu bicaye ku ntebe, bose bambaye imyenda isa, bafite impapuro, uwicaye hagati hari ibyo yarangariyemo, uri ku ruhande yambaye isaha ku kaboko.

Imodoka nyinshi ziri mumuhanda hakurya haribiti hari abagororwa bari ha umugabo wa ikote nishati y'umweru na karuvati yambaye indorerwamo zamaso.

Igazeti ya leta yanditse mu buryo bwa gihanga, yanditse mu buryo bw'indimi zitandukanye icyongereza, igifaransa ndetse n'ikinyarwanda.

Umusaza ugeze mu za bukuru udafite umusatsi, yambaye umupira w'amaboko maremare usa nuubururu bwijimye.

Umupolisi uri kugenda, ageze impande y'icyapa kigaragaza aho abantu bagomba kwambukira, hari imodoka zihaparitse, inyubako ndetse n'igiti gihari.

Kizimyamwoto ifite ibara ry'umutuku, ku ruhande rwayo hari amagambo ahanditse, hari ijambo ryanditse mu ibara risa ubururu, impande yayo hari puberi yo gushyiramo imyanda.

Umupolisi uhagaze imbere ye hari umuntu wambaye ingofero, inyuma ye hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa, inyuma yabo bose hari inyubako hejuru handitseho Tekino.

Inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro, hari gucumba umwotsi, iyo nzu yarisize irange ry'umutuku, hari abagabo babiri bari kuzimya.

Abapolisi bari hamwe, impande yabo hari inyubako nziza cyane, zisize amarangi, afite amabara atandukanye, hari ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, imbere yazo hari abamotari, hakurya hari inyubako nziza cyane zikorerwamo ubucuruzi, impande y'inyubako hari ipoto ndetse n'icyapa.

Ahantu hazitije ibyuma, imbere gato hari ikizimyamwoto, hejuru yayo hari amasinga azinze afite ibara ry'umutuku, hari n'igitenge.

Udukarito tubiri bakuyemo ibikoresho bikoreshwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, ibyo bikoresho bikaba bifite ibara ry'umutuku, ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara.

Abantu batatu bahagaze, umwe yambaye ingofero n'agapfukamunwa, babiri hari ikintu ari kubaha, hakurya yabo hari imodoka, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibiti.

Inzu irimo amakaro, ku mpande hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, umuryango urafunguye amatara ari kwaka.

Kizimyamwoto iteretse ku makaro, ifite ibara ry'umutuku, hari n'akandi kantu k'umukara, imbere yayo hari ibirango byanyanditseho amagambo.

Indabo zifite ibara ry'umuhondo, imbere yazo haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'ikigega gifata amazi. Inyuma y'imodoka hari ibyatsi.

Abayobozi batanu bari kurahira bafashe ku idarapo ry'igihugu harimo abagore bane n'umugabo umwe imbere yabo hari indangururamajwi.

Umuntu ufashe ku ibendera ry'igihugu, wambaye ikote, ishati ndetse na karuvati. Imbere ye hari indangururamajwi, yazamuye ikiganza ariko ntabwo yishimye.

Nyakubahwa Paul KAGAME afashe Louise MUSHIKIWABO mu kiganza, bari guseka inyuma yabo hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda kirimo: agaseke, ikawa, ishaka, ingabo ndetse n'amabendera abiri ku ruhande.

Abantu benshi bicaye hamwe kugira ngo bumve umukuru w'igihugu, nyakubahwa Paul Kagame ahagaze imbere, hari indangururamajwi ari kwitegereza abaturage.

Imodoka iparitse impande y'inyubako, iri gusohokamo umudamu, imbere ye hahagaze umusirikare wambaye isaha ku kaboko.

Umuntu wafunze igipfunsi akoza gikumwe muri wino, impande ye hari ibendera ry'igihugu, rigizwe n'ibara ry'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Abayobozi biyamamazaga mu gihe cy'amatora uwambere nyakubahwa Paul Kagame, Furanke Habineza, Firipe Mpayimana.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, na karovati, inyuma ye, hari imyenda ifite amabara atandukanye, umutuku, ubururu, umuhondo, umukara, ndetse n'icyatsi kibisi.

Umuntu wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru na karuvati y'ubururu bwijimye, yambaye indorerwamo z'amaso, imbere ye hari indangururamajwi.

Abantu bari ku mirongo ibiri, harimo abagore ndetse n'abagabo, bifashe neza, hakurya hari amahema, ndetse n'inyubako.

Abantu batandukanye bicaye mu mahema, bari kwamamaza umukuru w'igihugu bafite utwapa twanditseho FPR, inyuma y'amahema hari inyubako nziza cyane.

Abantu bari ku murongo bahagaze neza, bambaye neza, abagabo bambaye amakote, abagore bamwe bambaye amakanzu abandi bambaye amajipo n'udushati ndetse n'udukote; harimo umugore umwe ufite agakapu mu ntoki.

Abagabo babiri bicaye bambaye amakote n'amashati y'umweru, umwe yambaye karuvati y'umukara, undi yambaye karuvati y'umweru; imbere yabo hari indangururamajwi, hari n'icupa ry'amazi riteretse imbere n'udutabo.

Abantu bicaye hamwe bari mu mahugurwa hari abambaye imipira y'icyatsi kibisi bisa, n'ufite urupapuro ari gusoma undi nawe afite amakaye mu ntoki.

Umubyeyi ukenyeye ibitenge, afite abana babiri, umwe ni muto, undi ni mukuru, bambaye imyenda isa, bahagaze mu nzu.

Inama yateraniyemo abayobozi, harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa, Paul Kagame na madamu we, Jeannette Kagame.

Inzu nyinshi zicucitse zikikijwe n'insina ndetse n'ibiti, imbere yazo haparitse imodoka ndetse n'abagenzi bari kugenda hari n'icyapa kiriho ifoto ya Mpayimana Filipe.

Umuntu wambaye indorerwamo z'amaso, imbere ye hari abantu bari ku murongo, inyuma yabo hari imodoka zihahagaze, hari umwenda utatse neza, uri mu mabara y'ibendera ry'igihugu cyacu.

Abantu babiri bicaye mu ntebe nziza, umugabo ndetse n'umugore, bose bambaye indorerwamo z'amaso, umugore yatoboye amatwi, umugabo yambaye ikote, ishati ndetse na karuvati. Imbere yabo hateretse icupa ry'amazi.

Nyakubahwa Paul Kagame umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda, agaragiwe n'abandi bayobozi barahagaze, harimo abategarugori, inyuma yabo hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bateraniye hamwe buri wese yazamuye akaboko, afite ibendera ryanditseho Efuperi riri mu mabara atatu, umutuku, umweru n'ubururu.

Umugabo mwiza cyane, wambaye ipantaro n'ikote biri mu ibara ry'ubururu bwijimye, ishati na karuvati.

Indahiro ya nyakubahwa perezida Paul Kagame, ari kurahira afashe ku idarapo ry'igihugu, imbere ye hari indangururamajwi, iruhande rwe hari umugore we, impande ye hari umuntu ukora mu by'amategeko wambaye ikanzu itukura ivanze n'umweru ndetse n'umukara.

Abantu babiri batwaye amagare, inyuma yabo hari imodoka yanditseho Jagwari. Hakurya hari ibiti ndetse n'abagenzi bari kugenda.

Ahantu bigira imodoka, hari imodoka eshatu zifite ibara ritukura, inyuma yazo hari ibyatsi byinshi, ku ruhande rwazo hari amakona ari mu ibara ritukura.

Imodoka nini iri kugenda mu muhanda ifite ibara rya oranje ndetse n'ibara ry'umuhondo, imbere yayo hari izindi modoka ziri kugenda ndetse n'umumotari.

Umuhanda ushushanyijemo imirongo y'umweru, harimo umumotari ndetse n'imodoka, impande zaho hari inzu zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ipoto itwara insinga z'amashanyarazi.

Umuntu uri kugenda mu muhanda, hakurya ye hari imodoka iri mu muhanda, hakaba n'ibiti.

Imodoka ipakiye imizigo itwikirije shitingi isa ubururu, inyuma hari izindi modoka, impande y'umuhanda hari ibiti bihakikije.

Umuntu uri ku igare n'undi uri hakurya, hagati yabo hari akamodoka gato gatwara imizigo, hakurya hari inyubako ifite ibara ry'ubururu, imiryango isa umweru.

Inyubako nziza cyane yegereye umuhanda, umuhanda urimo imodoka, abamotari, impande yaho hari n'ibiti bihari ndetse n'icupa yanditse kokakora.

Imodoka iri mu muhanda, ku ruhande rwayo hari umuntu uri gusunika igikoresho kifashishwa mu guterura imizigo, hakurya hari amazu imbere hari abantu.

Ibiti bitandukanye bikikije umuhanda, hakurya hari umuyonzi ufite igare, mu muhanda harimo imodoka ndetse hakabamo n'ibyuma bigiye biri ku ruhande.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, impande yazo hari umuntu uri kugenda, afite indobo mu ntoki, hari ibintu birimo ari gucuruza.

Imodoka ebyiri ziri kugenda mu muhanda, imbere yazo hari uruzitiro rwubakishe amabuye ndetse n'icyatsi gitoshye kiri impande y'urwo ruzitiro.

Imodoka nziza cyane, igaragara nk'aho ikiri nshyashya, hari amagambo ayanditseho ndetse n'imibare, ku ruhande hari agacupa hasi, ku rundi ruhande hari amazu ahari.

Imodoka ziri mu muhanda harimo imodoka nini ifite ibara ry'umutuku, hari n'ibyapa byegereye umuhanda, hakurya hari iminara miremire ndetse n'ishyamba.

Imodoka ifite ibara ry'umweru imbere yayo hari umunyonzi atwaye umugenzi yambaye isengeri y'umuhondo umugenzi atwaye yambaye ishati y'ubururu hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Burije amatara ari kwaka mu muhanda, ibinyabiziga biri kugenda ndetse n'abagenzi,

Imodoka iri mu muhanda ifite ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru, iruhande rwayo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umukara.

Imodoka iri mu muhanda ifite ibyuma ku ruhande, isa ubururu, imbere yayo hari izindi, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti.

Imodoka iri mu muhanda ipakiwemo ibicuruzwa, impande yayo hari abamotari batwaye abagenzi, hakurya yayo hari ibiti bitandukanye.

Umunyonzi utwaye umufuka munini w'ibirayi, imbere ye hari imodoka iri mu muhanda, hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse n'amatara.

Imodoka ziri mu muhanda, imwe iramanuka indi ikazamuka, hakurya yazo hari umugenzi uri kugenda n'amaguru, impande y'umuhanda hari ibiti bihari, hakurya hari amazu ahari.

Imodoka iri mu muhanda imbere yayo hari indi, n'inyuma hari indi, impande yayo hahagaze umugabo, abantu bari bayirimo na bo bahagaze ku ruhande.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda, imwe iramanuka, indi ikazamuka, zifite amabara atandukanye, hari isa umweru, indi ikaba isa icyatsi kibisi. Hakurya y'umuhanda gato, hari igiti gitoshye kimeze neza.

Uruzitiro rusize irangi ry'umweru, hakurya hari ibiti, rwegereye umuhanda, mu muhanda harimo abamotari batwaye abagenzi.

Imodoka nini cyane ifite ibara ry'umutuku, itwaye imizigo iri mu cyerekezo cyo kumanuka, hakurya hari ibiti bimeze neza.

Umuntu uhagaze hakurya y'amahanda, afite igikapu mu ntoki, afite indobo ifite ibara ry'umweru, mu muhanda harimo ibinyabiziga, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umunyonzi utwaye igare mu muhanda, inyuma ye hari imodoka itwaye imizigo, hakurya hakaba ibiti ndetse n'amazu atandukanye.

Ibinyabiziga biri mu muhanda harimo imodoka itwaye imizigo, iri kuzamuka hakabamo moto itwaye umugenzi, hakaba n'igare ririho umunyonzi.

Imodoka zitandukanye ziri mu muhanda, impande yaho hari imizigo iharambitse ndetse n'icyapa cyanditsemo inyuguti ya P, ifite ibara ry'umukara ndetse n'akarongo gatukura.

Umuhanda urimo imodoka nini, abagenzi ndetse n'izindi modoka zitwaye abagenzi. Hakurya y'umuhanda hari ipoto ndetse n'ibiti bitandukanye.

Imodoka iri muri kaburimbo iri mu bwoko bwa rukururana, itwaye imizigo itwikirije ihema risa icyatsi kibisi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye amagare, imodoka, moto, hakurya yaho hari amatara ndetse hakaba n'ibiti biri ku mpande.

Umuntu utwaye ikimoto kinini gitwara imizigo, ifite ibyuma, hakurya hari igiti ndetse n'umumotari utwaye umugenzi.

Umunyonzi uri gusunika igare ririho umufuka, impande ye hari imodoka, hakurya hari ibiti ndetse n'abagenzi.

Imodoka nini iri mu muhanda ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku, itwara ibicuruzwa cyangwa imizigo, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti.

Moto nini itwara imizigo, imbere hari abamotari, ku mpande z'umuhanda hari inyubako nziza cyane igeretse, imbere yayo hari imodoka zihahagaze, hakurya hari umunara.

Umumotari uri kugenda mu muhanda yambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo n'ubururu, hakurya y'umuhanda hari ibyapa bibiri, impande yabyo hari ibiti bishishe.

Imodoka itwaye ibicuruzwa bitwikirije shitingi y'ubururu, hari umuyonzi utwaye umugenzi, hakurya hari ibiti ndetse n'abagenzi bari kugenda n'amaguru.

Ahantu hameze neza cyane, hari abantu batandukanye bari kugenda, hari inyubako nziza cyane, hari ibyapa, hari indabo, hari ibintu bishimishije cyane.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi kizitije ibyuma harimo inzu isakaje amabati.

Amapoto ndetse n'amatara ari impande y'umuhanda, hari n'ibyuma biri impade y'umuhanda, hakurya y'umuhanda hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'inyubako irimo.

Umuhanda mwiza cyane, ku mpande hari ibyuma bihari, imbere y'ibyuma hari n'undi usa icyatsi kibisi, ushushanyijemo imirongo y'umweru, hakurya hari indabyo zihari.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo gishushanyijeho udufureshi turi mu ibara ry'umukara, hakurya hari ibiti.

Icyapa cyo mu muhanda, kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite ibara ry'umweru n'iry'umutuku, kigaragaza aho abanyamaguru bambukira.

Icyapa gishushanyije mu ishusho y'uruziga, gifite ibara ritukura, hagati handitsemo mirongo ine, yandikishije ibara ry'umukara.

Imodoka ifite ibara ry'umukara iparitse hakurya y'umuhanda, hari n'ibiti bikikije uwo muhanda, hari icyapa gishinze hakurya y'umuhanda, gifite ibara ry'umutuku gifite ibara ry'umweru, n'umusaraba ukozwe mu ibara ry'umukara, hakurya y'icyo cyapa hari inyubako.

Icyapa kiri hakurya y'umuhanda kigaragaza aho abagenzi bambukira, inyuma yacyo hari inyubako yanditseho irembo.

Umuhanda urimo kubakwa, urimo abantu bari kubawubaka, abamotari, insinga z'amashanyarazi, ibiti biwukikije, harimo n'icyapa.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu ifite ibara ritukura ndetse n'umweru hagati hashushanyijemo akamenyetso k'umukara, aho kiri ni mu byatsi, hakurya y'umuhanda hari ishyamba.

Icyapa cyo mu muhanda gishushanyije mu ishusho ya mpandeshatu, ifite ibara ry'umutuku ku ruhande imbere umuhondo harimo umuntu.

Abantu bari mu muhanda, hakurya y'umuhanda hari icyapa gisa icyatsi kibisi cyanyanditseho amagambo ngo Akanyaru, Huye, Kibugabuga, Nyamiyaga; hakurya yacyo hari ibiti ndetse n'insina.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, hagati hashushanyijemo akamenyetso kari mu ibara ry'umweru.

Icyapa gishushanyije mu ishusho y'uruziga, gifite ibara ritukura, hagati hanyujijemo umurongo utukura, harimo n'imodoka ifite ibara ry'umukara. Bivuze ngo ntihemerewe guparika imodoka.

Icyuma cy'ikoranabuhanga gishushanyijeho umuntu uri kwambuka, gifite ibara ry'umukara, hakurya hari ibiti byinshi bizitanye.

Icyapa kiri impande y'umuhanda cyanditsemo mirongo itandatu kiri impande y'ishyamba rizitanye mu muhanda harimo abamotari hashushanyijemo imirongo y'umweru.

Icyapa gishushanyije mu ishusho y'impande eshatu, gifite ibara ry'umutuku, kikagira ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara rishushanyijemo imodoka, ndetse n'imirongo ibiri inyuranamo.

Ibyapa byegereye umuhanda bifite amabara atandukanye, hari igifite ibara ry'umutuku n'iry'umweru, n'igifite ibara ry'icyatsi kibisi cyanditsemo amagambo, impande yabyo hari ibyatsi cyangwa ibiti.

Umuhanda w'igitaka, hakurya yawo hari inzu nziza iriho icyapa cyanditseho gatanu, imbere y'iyo nzu hari igiti cyiza cy'ururabo.

Inzu ebyiri zigaragara neza, hakurya yazo hari umudugudu w'icyitegererezo urimo inzu nziza zisakaje amabati atukura hari n'umunara.

Imodoka iparitse imbere y'inyubako nziza cyane igeretse, ifite imiryango itandukanye, hari n'ibyapa bihari, bigenda bigaragaza aho washakira serivise.

Hoteli nziza cyane, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishijwe amakaro y'umukara ndetse n'umweru, imbere yayo hari itara, kuruhande hakikijwe n'ibyatsi bimeze neza, bigaragara nk'indabyo.

Inzu zikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye hari n'iminara miremire itwaye insinga z'amashanyarazi hari insina ndetse n'ibindi byatsi.

Amazu meza cyane yegereye umuhanda, hari ibiti biteye ku murongo bimeze neza hari umumotari uri mu muhanda.

Imodoka eshatu ziparitse, harimo ebyiri zisa umukara, indi imwe isa umutuku. Imbere yazo hari abazungu bari kugenda bagana ahantu hubatse inzu z'ubwatsi, imbere yazo hakaba hari ibiti.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ifite ibara ry'umukara, hakurya y'umuhanda hari amazu yubatse neza, n'ubundi kurundi ruhande hari uruzitiro rwubakishije amatafari n'ibyuma.

Uruganda rwiza cyane rwubatse neza, rufite inyubako zigiye zitandukanye, rufite amatara kumuhanda, ndetse buri nyubako igiye ifite ikigega hejuru gifata amazi.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi meza atandukanye, hari irangi ry'umweru, hari irangi ry'umukara, impande yayo hari umuhanda, hari ibiti, hari n'abantu bari kugenda.

Inzu nziza cyane igeretse igiye imanitseho ibyapa bitandukanye bigenda biyobora abantu cyangwa abakiriya aho bashakira serivisi.

Inzu iri hakurya y'umuhanda, yubatse mu buryo bujyanye n'igihe, ifite ibirahuri byiza, imanitseho icyapa gishushanyijeho amacupa abiri.

Isoko rinini cyane ryubatse mu buryo bujyanye n'igihe, ririho ibyapa bigiye bitandukanye bigaragaza ahantu hatangirwa serivisi, imbere yaryo hahagaze imodoka enye.

Inzu nziza cyane zijyanye n'igihe, zisakaje amabati ya dumuzazi, zifite ibipangu byiza cyane, impande y'ibipangu hari indabyo zimeze neza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi, hakurya hari inyubako nziza igeretse iyo nyubako ibereye ijisho, ku rundi ruhande hari igiti.

Inzu ifite uruzitiro rwiza isakaje amabati ameze nkaho ashaje, impande yayo hari igiti, hari n'isinga inyura hejuru hakurya hari amazu menshi akikijwe n'ibiti, ajyanye n'igihe.

Inyubako iriho icyapa cyanditseho ngo dukata imfunguzo, munsi y'iryo jambo hashushanyijeho urufunguzo, hari n'abantu bari kugenda bari gukora akazi gatandukanye, hari abari gucuruza. Tugiye hakurya turi kubona inzu ifite irangi ry'ubururu ndetse n'abamotari bahaparitse.

Inzu yubatse neza, imeze neza, itangirwamo serivisi zitandukanye, hari serivisi zijyanye n'amabanki, zikorerwamo ubucuruzi, imbere yayo hahagaze imodoka, hari n'abantu benshi.

Umuhanda munini cyane w'gitaka, impande zawo hubatse amazu manini cyane asakaje amabati atukura, afite uruzitiro rwubakishije amatafari ndetse n'ibyuma, hari umu ugiye kwinjira mu imbere.

Inzu imeze neza, imbere yayo hari ubusitani bw'indabo ndetse hari n'icyapa cyanditseho ngo pariki y'inyoni, impande yayo hari ibiti.

Imodoka ziparitse impande y'inyubako, iriho icyapa cyanditseho ngo" resitora" hari ibiti bihari, hari indabyo, hari n'izindi nzu zihari.

Amazu menshi cyane, ari mu mudugudu wa Nyagatovu, atajyanye n'igihe, hakurya yayo hari ibiti, hari insina.

Imodoka ebyir zihagaze hafi y'igiti gifite indabyo z'umuhondo, haruguru y'izo modoka, hari inyubako iriho icyapa, hakaba n'i ikindi cyapa, cyanditseho ngo ikibuga cy'indege cya Kanombe.

Inyubako nziza cyane, impande yazo hari ikigega gifata amazi, amapoto ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi n'abagenzi bari kunyura mu muhanda.

Ibiti bigufi bitoshye, impande yabyo hari icyapa, haruguru hari inyubako ifite uruzitiro rwiza rugiye ruriho amatara.

Abamotari babiri bari mu muhanda umwe atwaye umugenzi hari ibyapa bibiri biri hakurya y'umuhanda inyuma yaho hari abantu batatu bahari hari n'ibiti biri hakurya y'umuhanda.

Inzu yegereye umuhanda ushashemo amabuye, ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ndetse n'ibyuma, kuri urwo ruzitiro hariho icyapa cyanditseho umubare cumi na rimwe.

Ibiti bikikije inyubako, imbere yabyo hari icyapa, hakurya hari inzu, ifite uruzitiro ndetse n'amatara.

Inzu zijyanye n'igihe zubatse neza, zubakishije amabati dumuzazi, impande yazo hari ibimera, ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibiti.

Inyubako nini cyane ifite ibyapa bigiye bitandukanye biranga ahakorerwa serivisi, impande yayo haparitse imodoka, hari n'abamotari bari kugenda.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, inyuma yayo hari umumotari, hakurya hari amazu ahubatse, hari n'umugenzi ushaka kwambuka, kurundi ruhande hari uruzitiro ruzitije amatafari ndetse n'ibyuma.

Umuhanda munini cyane ugabuyemo ibice bibiri, hagati hateye indabo ndetse n'ibiti by'imikindo, urimo abamotari babiri batwaye abagenzi, umugenzi umwe afite igikarito, undi ahetse igikapu.

Ibiti bikikije umuhanda, ukaba ari kunyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, hejuru yaho hari undi muhanda, uri kunyurwaho n'imodoka ndetse n'abagenzi.

Ahantu imihanda ihurira hashushanyijemo imirongo isa umweruru, hari imodoka ziri mu muhanda, hakurya y'umuhanda hari ibiti bigiye bikikije ku mpande zombi.

Umuhanda urimo imodoka ya gariyamoshi hari icyapa biri mu muhanda, impande yaho hari amatara hari ibiti n'indabo zihakikije.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, imbere yayo hari umumotari uhetse umugenzi, hakurya y'umuhanda hari akazu ko kuruhukiramo, amatara ndetse n'ibiti biwukikije.

Ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti byiza bimeze neza, mu muhanda harimo imodoka ndetse na moto, ku rundi ruhande rw'umuhanda hari amapave yangiritse.

Inyubako ifite amatara ari kwaka, yegereye umuhanda, uwo muhanda urimo abantu ndetse n'umuntu utwaye igare, hakurya yawo hari indabyo zihari ndetse n'ibiti bita imikindo.

Umuhanda uciyemo imirongo myinshi, ku mpande zawo hari amazu ahubatse, hari n'ibiti bihari, hari ibyapa ndetse n'amatara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, hagati hari ahantu hahinze indabyo z'umuhondo, urimo amatara, hari imodoka ziri kugenda ndetse na moto, hakurya ku nkengero zawo hari ibiti.

Imodoka na moto bari kugenda mu muhanda; hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Ibiti bitandukanye bikikije umuhanda ndetse n'indabo zitandukanye. Imodoka iri kugenda mu muhanda, umuhanda usa n'aho wangiritse.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru, hari umumotari yo kugenda mu muhanda, hakurya yawo hari indabo, ku rundi ruhande hari ibiti hari n'amatara yo mu muhanda.

Umuhanda ugabuyemo ibice bibiri; harimo amatara menshi, hakurya hari inzu, hari abagenzi bari kugenda, hari n'ibyuma bikikije umuhanda.

Imodoka itukura iri mu muhanda, ibiti bikikije umuhanda, abagenzi bari kugenda mu muhanda, indabyo ndetse n'amatara biri mu muhanda.

Kaburimbo ishushanyijemo imirongo y'umweru, impande zayo hari ibiti ndetse n'inzu, hari n'ibyapa biri ku mpande.

Umuhanda ushushanyijemo imirongo y'umweru, urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto ndetse n'amagare, harimo amatara n'icyapa cyereka abagenzi cyangwa abanyamaguru niba bakwiye kwambuka cyangwa badakwiye kwambuka.

Umuhanda w'amapave, hari umuntu uri kuwugendamo, uri hagati y'ubusitani bw'biti ndetse n'indabo, impande yawo hari icyapa gihari.

Ibiti bikikije umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, urimo abamotari, abagenzi, indabyo ndetse n'imodoka.

Ibiti biri ku mpande z'umuhanda, hakaba hari n'iminara itwaye insinga z'amashanyarazi, mu muhanda hari ibinyabiziga, hari moto ziri kugenda, hakurya hakaba hari inzu.

Ibinyabiziga biri mu muhanda ni ibi bikurikira; harimo imodoka, abamotari, hakurya y'umuhanda hari ishyamba ndetse no ku rundi ruhande hari uruzitiro rwubakishije amatafari.

Ibiti ndetse n'inzu biri impande y'umuhanda, amatara ari impande y'umuhanda, imodoka ziri kugenda mu muhanda ndetse n'abagenzi bari kwambuka umuhanda.

Umuhanda munini cyane ugiye uciyemo indi mihanda ishushanyijemo imirongo y'imyeru; harimo ubusitani bw'indabyo, harimo amatara, hakurya hari inyubako zimeze neza cyane.